Ifumbire y'imborera ni nziza iradufasha. Iyo muntu agiye no gutera bajyana ifumbire y'imborera kugira ngo uwo murima we uzeremo byinshi.

Gutera umuti ku bihingwa ni byiza, kandi bigira umumaro, iyo uteye umuti udusimba turapfa, maze wajya gusarura ugasarura imyaka myiza imeze neza, kandi ugasarura ibihagije.

Gutera umuti mu myaka yawe ni byiza kandi byongera umusaruro, umuti wica udusimba abarisha kunywa cyangwa utundi dusimba, uwo muti wica utwo dusimba twose maze imyaka igakura imeze neza.

Parufe ni imwe mu bintu bihumuza abantu. Iyo wayiteye, ugenda uri guhumura umuhanda wose, maze abantu bose bakumva uri guhumura, bakagukunda.

Gutera umuti imyaka ikiri mito, ni byiza bifite akamaro kanini cyane, kubera ko iyo wabiteye umuti bikiri bito, bikura bifite ubuzima bwiza, kandi bimeze neza.

Umuti ni mwiza uradufasha. Iyo umuntu yaguze umuti akawutera mu myaka, iyo myaka ikura neza, kandi iyo myaka iba myiza, ubona n'umusaruro mwinshi, ukabona ibyo kurya.

Ibintu dukunda kwifashisha turi gukaranga, igihwagari, ibitunguru n'inyanya, ibyo bintu bituma ibiryo biryoha, kandi biba bisa neza.

Imvaruganda idufasha kubona imyaka myinshi, tukeza, tugasagurira n'isoko, kubera ko uba washyizemo ifumbire mvaruganda, kandi riba rinameze neza cyane.

Gutera umuti ni byiza byongera umusaruro, kandi umuti wica udusimba twica imyaka, maze iyo myaka ikera neza kandi isa neza.

Indimu ugashiraho n'urunyanya, ugashyiraho n'igitunguru bigera mu umubiri mwiza ugafata n'ifi ukarya wumva biryoshye kandi ugira umubiri mwiza.

Amafi ni meza araryoha, iyo ugiye kuyabika kugira ngo adapfa urayabika ugashyiraho barafu, agakomeza kuba mazima kandi agakomeza kuba asa neza.

Inshundura idufasha kuroba amafi menshi kandi meza, tukayajyana ku isoko baduha amafaranga. Kandi tukabona amafaranga menshi ahagije.

Ifi ni nziza, turayikunda iyo wayitetse neza, ugashyiramo inyanya, ugashyiramo na sereri, ugashyiramo n'indimu, biba biryoshe kandi iyo fi iba isa neza cyane.

Amafi ni meza turarayakunda, iyo wayatetse neza aba aryoshye, kandi n'uwo wayagaburira wese yumva aryoshye, cane cyane iyo washizemo n'ibirungo.

Amafi ni meza araryoha, iyo wayatetse afite isuku, aba aryoshye kandi asa neza, n'umuntu wayagaburiye yumva aryoshye cyane, kubera aba afite isuku.

Inshundura idufasha kubona amafi manini kandi meza, iyo wabonye ayo mafi, ujya kuyagurisha bakaguha amafaranga ukiteza imbere, kandi nawe ukayarya ukumva aryoshye.

Ikiyaga ni cyiza kiradufasha kubona umwuka mwiza duhumeka, kandi amazi adufasha mu byo twateye, imyaka ikera neza cyane.

Ifi ni nziza iraryoha, iyo wayitetse neza ukayiteka ugashyiramo ibirungo byiza iraryoha, wabirya ukumva ufite apeti kubera ko uba waritetse neza kandi isa neza.

Ibiryo ni byiza turabikunda, kandi byubaka n'umubiri, iyo umuntu yanabitetse bifite isuku, ntabwo birwaza, ariko iyo wabitetse bidafite isuku birarwaza.

Ibidodoki ni byiza turabikunda, iyo ushaka imboga urabica maze ukabiteka wabiteka neza bikaryoha, kandi biba biteye apeti kubera biba bisa neza.

Guhinga amapera ni byiza kandi amapera turayakunda, iyo wahinze amapera, akera turayamanura tukayarya, tugahaho n'abandi bakaryaho, kandi aba aryoshe.

Amashu ni meza. aryaha, iyo wayatetse, ukayateka neza, afite n'isuku, urayarura umuntu akumva yayarya, kandi abataraye, kandi amashu barayakunda cyane, niyo uyagemuye mu isoku barayagura cyane.

Amajeri ni meza araryoha, iyo umuntu ateye amajeri umurima uba umeze neza, kandi niyo ayasaruye akayateka araryoha yubaka n'umubiri.

Avoka ni nziza turazikunda, kandi turazirya. Iyo turi kuzirya ziba ziryoshye, kandi ziba zifite n'umwimerere. Tuzikoramo n'amavuta ayo mavuta tukayisiga.

Gutera imigano ni byiza, kandi imigano yadufasha. Iyo umuntu yateye imigano, agatera n'ibishyimbo, iyo migano arazishingiriza, Ibishyimbo bigakura neza.

Voka n'imbuto ikundwaga n'abantu benshi, iyo voka ziryoshe ukazirisha ibiryo bisa neza, kandi bifite isuku biba biryoshye iyo uri kubirisha ku imvange wumvaga biryoshye cyane.

Guhinga, ugateramo n'amateke, ni byiza, kubera ko amateke tuyakunda. Iyo yeze, turayakura, maze tukajya kuyateka. Ayo mateke aba aryoshye kandi arakomeza.

Isombe ni nziza yongera amaraso mu mubiri, kandi niyo umuntu yabyaye bamutegeka kurya isombe, kubera ko isombe ari ikintu cyiza kandi cyongerara amaraso mu mubiri.

Gutera ibiti ni byiza binaradufasha, ibiti birinda isuri kandi iyo wabuze inkwi ujya kubitema maze ukabisatura ukabona ikwi zo gutekesha ibiryo.

Ibiti ni byiza biduha umwuka duhumeka. Bidufasha no kubaka. Iyo ugiye gusakara wifashisha ibiti kugira ngo usakare neza, biduha n'inkwi zo gutekesha ibiryo.

Ibyatsi n'ibiti biduha umwuka mwiza uva mu kirere tugahumeka neza, kandi birinda n'isuri ku buryo itaka ridatwarwa n'isuri.

Guhinga ibinyomo ni byiza kandi ibinyomo turabikunda, iyo byeze turabica, tukabirya kandi ibinyomoro biraryoha bwabyongera n'amaraso mumubiri.

Ibihaza nibimwe mubiribwa abantu bakunda cyane, iyo watetse ibihaza biba biryoshye iyo wabitetse neza kandi biba bisa neza.

Ibitoki ni byiza biraryoha, iyo wabitetse ugashyiramo amakaroni, ugashyiramo n'inyanya n'ibitunguru, biraryohaha cyane, umuntu wese yumva yabirya.

Guhinga bifite akamaro kanini cyane, iyo wahinze bikera ubijyana ku isoko bakaguha amafaranga menshi, maze ukayajyana kuri banki ukiteza imbere.

Guhinga ibijumba ni byiza, iyo wahinze ibijumba ubona ibyo kurya, maze ibindi ukabijyana ku isoko, maze bakaguha amafaranga, ayo mafaranga ukayajyana kuri bake ukiteza imbere.

Guhinga ibirayi ni byiza biraryoha, iyo umuntu yabihinze akabijyana mu isoko barabigura kandi biba bimeze neza, wabitekamo ifiriti biba biryoshye, wabitekamo n'imvange biba biryoshe cyane, wamanyura ugasanga ari amafu.

Guhinga ibitunguru ni byiza. Kandi ubitunguru biradufasha iyo ushaka gukaranga ukarangisha igitunguru kandi n'iyo wabikekeye mu biryo biba biryoshye kandi biba biriguhumura.

Guhinga ni byiza, iyo wahinze ibigori ukabihinngira ku gihe, ubona umusaruro uhagije, maze ukabona ibyo kurya, ukabona ibyo kujyana ku isoko bakaguha amafaranga, ukayajyana kuri banki.

Guhinga ibigori ni byiza, iyo wahinze ibigori ukabihingira ku gihe, ubona umusaruro mwinshi kandi mwiza, warangiza ukabijyana ku isoko, ukunguka amafaranga, ukayajyana kuri banki, ukayabitsayo.

Guhinga amateke nibihaza ni byiza, biraryoha iyo wabijyananye ku isoko baguha amafaranga menshi, kubera ko ibihaza birakundwa kandi namateke arakundwa iyo ubigurishije baguha amafaranga, ukayajyana kuri banki.

Guhinga ni byiza. Iyo umuntu yahinze abona ibyo kurya. Akabona n'ibyo kujyana mu isoko. Bakamuha amafaranga. Ayo mafaranga akajyana no kuri banki akiteza imbere.

Guhinga ni byiza， iyo wahinze ubona ibyo kurya， kandi ukabona n'ibyo gucuruza，ubona n’amafaranga，n’ayo mafaranga， ukayajyana no kuri banki.

Imyumbati ni myiza. Iyo uyijyanye ku isuko benshi baba bari kukurangarira. Kandi iyo myumbati iba iryoshye itera n'imbaraga. Iyo umuntu yayiriye aba afite imbaraga.

Guhinga ni byiza iyo wahinze ibintu bitandukanye harimo:tungurusumu, pavuro, hakabamo na tangawizi n'inyanya ,birakungura kandi cyane, ukagurisha maze rero ukabona inyungu ukajyana kuri banki ukabitsa.

Guhinga ibitunguru n'urusenda ni byiza kubera ko biguha amafaranga. Iyo wahinze ibitunguru, urabigurisha n'urusenda ukarugurisha, maze bakaguha amafaranga, ukayajyana kuri banki.

Guhinga ibigori ni byiza, kandi ibigori turabikunda, iyo wabitetse, biba biryoshye, kandi ubona n'amafaranga, ayo mafaranga ukayajyana kuri banki.

Guhinga impungure za mayizori zera vuba kandi bazigaburira abana ku ishuri bakazirya bakumva ziryoshye .Tubeteshamo n'umutsima, uwo mutsima uba uryoshye kandi uba usa neza.

Guhinga ibirayi ni byiza, kandi ibirayi turabikunda. Turabiteka bigafufuka tukabirya tukabona n'ibyo kujyana ku isoko tukabigurisha, baduha amafaranga tukayajyana kuri banki.

Guhinga ni byiza, iyo wahinze ubona ibyo kurya, abana bawe bakabaho neza. Kandi iyo wahinze ubona ibyo kujyana ku isoko bakaguha amafaranga ukayajyana kuri banki.

amajeri ni meza araryoha, asa neza, uyu umuntu ayariye agira imbaraga, akagira n'umubiri mwiza, kandi akabaho neza, kubera amajeri ameze neza, afite n'intungamubiri nziza.

Guhinga imyumbati ni byiza, kandi imyumbati barayikunda, iyo wayihinze ubona ibyo kurya, kandi ukabona n'iyo kujyana ku isoko, baguha amafaranga, bazaguha amafaranga, ukayajyana kuri banki.

Guhinga avoka ni byiza, iyo umuntu afite voka iwe, aragenda akazimanura, maze rero agatara zasha akajya, kuzigurisha mu isoko, bamuha amafaranga akiteza imbere, kandi nawe akazirya.

Guhinga imigano ni byiza kubera ko iyo wahinze imigano, iyo yeze urayitema ukazijyana mu murima, ukayishingiriza ibishyimbo, iyo ibishyimbo byeze urabisarura, maze ukabijyana ku isoko, ukabona amafaranga yo kujyana kuri banki.

Guhinga avoka ni byiza, iyo avoka ziryoshye ukazimanura, uzijyana ku isoko maze bakazigura, bakaguha amafaranga, ukayajyana kuri banki.

Ibitoki ni bimwe mu biryo bikundwa. Iyo wabitetse neza biba biryoshye kandi bisa neza, ukajyana no ku isoko bakaguha amafaranga, amafaranga ukayajyana kuri banki.

kandi nziza ziraryohaga iyo uri kurya ibiryo by'imvange ukarishavoka bibaga biryoshe kandivoka bazikoragamo n'amavuta amavuta a twavisi yose

Guhinga ni byiza, iyo wahinze neza, ugahingira ku gihe, ubona ibyo kurya, ukabona n'ibyo kwambara, kandi ubona n'amafaranga yo kujyana kuri banki, maze ukiteza imbere.

Amashu ni meza araryoha. Iyo wayakaranze neza aba agasa neza. Warangiza ukayajyana ku isoko bakaguha amafaranga, ukayajyana kuri banki ukiteza imbere.

Isoko bacururizamo ibyo kurya riba ari ryiza, kandi barunguka ,iryo soko bararikunda cyane, kandi iyo wungutse ujyana n'amafaranga kuri banki ,ukiteza imbere.

Guhinga amapera ni byiza ,kandi amapera anararyoha , iyo wayahinze uragenda ukayajyana ku isoko bakaguha amafaranga ,ayo mafaranga ukayajyana kuri banki.

Guhinga ibishyimbo ni byiza, ibishyimbo biranabyibushya iyo wabihinze birakungura warangiza ukabijyana ku isoko bakaguha amafaranga, maze ukayajyana kuri banki, kugira ngo batayakwiba.

Guhinga ni byiza, iyo wahinze ujyana ku isoko, bakaguha amafaranga ukiteza imbere, ukajyana amafaranga kuri banki, maze warangiza ukabona n'imyambaro myiza.

Isoko bacururizamo ihene, bagacururizamo n'intama, haba harimo abantu benshi, abantu baje kugura ihene n'abaje kuzigurisha, hakabamo n'abaje kugura intama n'abaje kuzigurisha.

Amashaza ni meza araryoha iyo wayatetse neza araryoha kandi yubaka n'umubiri, iyo usaguye ujya no kuyabika wamara kuyabika ejo ukayarya kandi aba agifite vitamine.

Guhinga inanasi ni byiza, uyo wahinzi inanasi ubona izo kurya, ukajyana no ku isoko ukazicuruza baguha amafaranga, ayo amafaranga ukagajyana kuri banki.

Guhinga ibigori ni byiza kandi turabikunda. Ubona ibyo kurya, ukabona n'ibyo kugurisha. Bakaguha amafaranga ayo mafaranga ukayajyana kuri banki.

Guhinga imyumbati ni byiza. Iyo wayihinze irakungura uyijyana ku isoko ukayigurisha warangiza amafaranga ubonye ukayajyana kuri banki kugira ngo udahura n'ibisambo bikayakwaka.

Guhinga imyembe n'urusenda ni byiza, kubera ko imyembe barayikunda cyane kandi n'urusenda bararukunda, abagabo iyo bagiye kurya babanza babaza urusenda, kugira ngo ibiryo biryohe kandi urusenda rutera apeti.

Guhinga ubunyobwa ni byiza kubera ko iyo wahinze ubunyobwa ubona ibyo kurya, ukanagurisha n'ubunyobwa bakaguha amafaranga ukagajyana kuri banki ukiteza imbere.

Guhinga ibitoki ni byiza, iyo wahinze ibitoki bikera byinshi, ujyana ku isoko maze rero ukabigurisha, warangiza bakaguha amafaranga, ukajyana no kuri banki.

Ahantu bateka mucoma bagakekeraho ibitunguru, bagateka ikirungo cyo gushira kuri mucoma, bagashiramo inyanya, n' umunyu kandi bikaryoha, bateka n' amafi kandi biraryoha cyane ndabikunda.

Gutera umuti ibirayi ni byiza, kubera ko iyo wateye umuti ibirayi bikura neza, kandi bikura bifite amababi meza, kandi biba binini kubera uba warabiteye umuti.

Guhinga ni byiza, iyo wahinze ubonaga n'ubwatsi bwo kujyanira inka, inka zikarya zigakamwa amata menshi amata ukayajyana ku isoko bakaguha amafaranga ukagajyana kuri banki.

Guhinga amapera ni byiza, iyo wayahinze arera ukabona ayo kurya, kandi ukabona n'amafaranga. Ayo mafaranga ukayajyana kuri banki, ukayabitsayo ukiteza imbere.

Guhinga imyumbati ni byiza iba imeze neza, iyo umuntu yahinze imyumbati abona iyo kurya, atagiye kuyigura kandi akajyana no ku isoko bakamuha amafaranga, akayajyana kuyabika kuri bake ye, kugira ngo adahura n'abantu bakayamwaka.

Guhinga ibijumba ni byiza tubikunda. Iyo umuntu yahinze ibijumba arabisarura, yarangiza akajyana ibyo kurya, yarangiza akabijyana mu isoko akabona amafaranga, yayabona maze akayajyana kuri banki, akiteza imbere.

Guhinga bifite umumaro munini cyane, iyo wahinze imyaka ikera neza, ujya gusarura warangiza ukarya ukabona ibyo rya kandi ukajyana mu isoko bakaguha amafaranga ukajyana muri banki, ukajya kuyabika.

Guhinga ibijumba ni byiza, iyo wabihinze ubona ibyokurya, kandi ukajyana mu isoko bakaguha amafaranga ukayajyana kuri banki kugira ngo batayakwiba.

Guhinga ibyo kurya ni byiza, kandi ibyo kujya birungura. Iyo wabihinze ukabijyana ku isoko, baguhaga amafaranga, amafaranga ubonye ukayajyana kuri banki, ukiteza imbere.

Guhinga voka ni byiza, voka nimwe mu biribwa biryoha iyo wa bikekeye ku biryo, iyo ari imvange birajyana, kandi ibyo biryo biba biryoshye. Na voka urazigurisha bakaguha amafaranga, ukayajyana kuri banki.

Guhinga imbuto ni byiza guhinga imyembe, na voka, na wotameloni, iyo wabihinze bikera ukabijyana ku isoko baguhaga amafaranga ukayajyana kuri banki, kuberako uyajyanye mu rugo bashobora kugutangira bakayakwaka.

Voka ni nziza turazikunda, iyo waziteye ubona izo kurya ukabona n'izo kugurisha, ayo mafaranga ukayajyana kuri banki maze ukaniteza imbere.

Guhinga ni byiza， kubera ko iyo wahinze uragurisha， ukabona ibyo kurya，ukabona amafaranga， ayo amafaranga， ukagajyana kuri banki，kugira ngo batayakwiba.

Guhinga inyanya ni'ntoryi ni byiza, iyo watetse ibiryo ugashiramo intoryi, ugakarangisha n'inyanya, biba biryoshe ukajyana no ku isoko, bakaguha amafaranga, ukayajyana kuri banki.

Guhinga ni byiza, iyo wahingiye ku gihe, ubona ibyo kurya, kandi ugasagurira n'isoko, maze ukabona amafaranga, ukayajyana kuri banki, ukiteza imbere.

Guhinga ibinyomoro ni byiza, iyo wahinze ibinyomoro birera ukabijyana ku isoko bakaguha amafaranga, ukayajyana kuri banki, kandi nawe ukarya. Ibinyomoro kandi byongera n'amaraso.

Guhinga indimu ni byiza bifite akamaro kanini cyane, cyane kubera ko indimu ari n'umuti, iyo uzijyanye ku isoko baguha amafaranga menshi, warangiza ukayajyana no kuri banki.

Guhinga pavuro ni byiza, kandi pavuro turayifashisha, iyo watetse ibiryo ugashyiramo povuro, biba biryoshe kandi biri no guhumura, kandi pavuro uzishyira no mu isombe, izo sombe zikaryoha.

Guhinga ibitoki ni byiza, iyo watetse ibitoki biraryoha ugashiramo n' inyanya, ukabiteka neza warangiza ugafata n' ibindi bitoki byasagutse ukabijyana mu isoko bakaguha amafaranga ukajyana muri banki.

Imbata ni imwe mu nyamaswa ziba mu rugo, zitera amagi manini kandi aryoshye. Iyo uyagurishije ubona amafaranga ukiteza imbere, ukabitsa no kuri banki.

Ni byiza iyo wahinze neza, ugahingira ku gihe, biguha umusaruro mwinshi kandi uhagije, kandi ujyana no ku isoko, bakaguha amafaranga, ukajya kuyabitsa kuri banki.

Guhinga inyanya ni byiza biranungura, iyo umuntu yahinze inyanya akazijyana mu isoko ziramwugura, kandi iyo amaze kubona amafaranga ayajyana kuri banki, kubera ko ayajyanye iwe banayamwaka.

Guhinga ubunyobwa ni byiza, kubera ko ubunyobwa buraryoha. Iyo wabubutesheje, ukabushyira mu biryo, ibyo biryo biba biryoshye, kandi biba bisa neza.

Guhinga ni byiza. Iyo wahinze bikera usagurira n'isoko, kandi nawe ukabona ibyo kurya kandi ukabona amafaranga. Iyo wagurishije baguha amafaranga.

Guhinga ubunyobwa ni byiza, kubera ko ubunyobwa baraburya. Iyo wabubetesheje ukabushyira mu biryo, ibyo biryo biba biryoshye kandi biba bisa neza.

Guhinga ibishyimbo ni byiza, iyo umuntu yabihinze, agasarura, akabigosora, biba bisa neza, kandi ibishyimbo bigira intungamubiri nyinshi.

Guhinga ibishyimbo by'umukara ni byiza, kandi ibyo bishyimbo birera wanabiteka bigasha vuba, kandi biba binaryoshye bifite vitamini.

Guhinga ibigori ni byiza, turabikunda kandi birera, iyo wahinze ibigori, ubeteshamo igikoma ukazajya ukinywa, ukazabeteshamo n'umutsima ukazajya urawurya.

Umuhinzi agira imitiba zo kubikwamo imyaka yasaruye, kubera ko iyo wasaruye imyaka ukazishira mu mutiba ntabwo zirudwa zikomeza kuba nziza.

Guhinga ni byiza, kubera ko iyo wahinze ubona ibyo kurya byiza, kandi iyo wahinze ubona n'amafaranga, ubona n'inshuti hafi kandi nziza.

Guhinga ni byiza, biradufasha. Iyo wahinze, ukajya kubagarira, iyo myaka yawe ikura imeze neza, kandi iba isa neza kubera kuba wayikoreye.

Guhinga ibigori ni byiza, kubera ko iyo wahinze ibigori ujya kubica ukabiteka, warangiza ukabona n'umusaruro mwinshi, ukajya kubibetesha ukanywa n'igikoma.

Guhinga ni byiza kubera ko guhinga ubonaga ibyo kurya, ukarya ibyo ushaka ugahaga, kandi iyo wahinze ubona n'inshuti, zikaza zikagufasha gutwara imyaka wasaruye.

Guhinga ingano ni byiza kandi turanabikunda. Iyo wahinze ingano, wazisarura ukazibetesha mu gikoma, maze rero ugateka igikoma kirimo ingano, kiba kiryoshe. Kandi ingano bazitekamo n'imbada.

Guhinga amashaza ni byiza, kubera ko amashaza arera cyane, kandi amashaza ni bimwe mu bihingwa bikundwa, kubera ko amashaza iyo wayatetse neza araryoha.

Guhinge ibigori ni byiza. Iyo wahinze ibigori urabifata ukabijyana kubibetesha, ukabona ifu y'igikoma, warangiza ugafata n'ibindi ukabibetesha mo umutsima, mukazajya murya n'umutsima.

Guhinga ibigori ni byiza， kubera ko iyo byeze urabihungura， ukabijyana ku mashini，maze rero bakabibeta，ukabona ifu y'igikoma， cyangwa ukabitonozamo，akawunga， ukarya umutsima.

Guhinga ibigori ni byiza, iyo wahinze ibigori iyo byeze uragenda ugacamo ikigori ukacyotsa ukakiryaho, kandi ibigori biba biryoshye.

Guhinga ni byiza, iyo wahinze ugahingira ku gihe, biguha umusaruro mwinshi kandi uhagije, ukiteza imbere ukabona ibyo kwambara kandi ukambara neza ukaberwa.

Ubunyobwa ni bwiza turabukunda, iyo umuntu yahinze ubunyobwa arabuhekenya iyo bweze, yarangiza akajya kubwanika yarangiza kubwanika, maze akajya kububetesha yava kububetesha agashyira mu biryo, ibyo biryo biba biryoshye.

Guhinga igihwagari ni byiza kandi igihwagari turagikunda, iyo watetse ndetse ugakarangisha icyo gihwagari biba biryoshe ibyo biryo kandi biba binasa neza.

Guhinga ni byiza biradufasha. Iyo umuntu yahinze aba yishimye. Bidufasha kubona ibyo kurya hafi, tukabigura ku giciro cyiza.

Guhinga ni byiza iyo wahinze ibigori ubona ibyo kurya ukabona n'ibyo guhunika. Ubutaha waja guhinga ibindi ukabona n'imbuto hafi kandi vuba imeze neza.

Guhinga ibihwagari ni byiza. Ibihwagari turabikunda, kandi igihwagari kidufasha gukaranga. Iyo wakarangishije igihwagari ibiryo biba biryoshye kandi biba bisa neza.

Guhinga amasaka ni byiza, iyo wahinze amasaka akera uyajyana kuyabetesha maze ukabona igikoma, kandi icyo gikoma kiba kiryoshye kinasa neza gifite intunga mubiri.

Guhinga ibigori ni byiza, kandi ibigori turabikunda. Iyo wabihinze urabyotsa cyangwa ukabiteka. Ibyo bigori maze ukabirya. Ibyo bigori biba bisa neza.

Guhinga ni byiza iyo abahinzi barigusarura, basarura bishimye kubera ko bababonye umusaruro mwinshi kandi uhagije bakabona uburyo bakwiteze imbere.

Guhinga ibishyimbo ni byiza, kandi ibishyimbo birera cyane, kandi n'iyo byeze ukabirya birabyibushya, bituma umuntu agira umubiri umeze neza.

Guhinga ibigori ni byiza kuberako iyo wahinze ibigori ubona kawunga, kandi kawunga iraryoha iyo wayitetse neza iba inasa neza iryoshye cyane.

Guhinga ni byiza biradufasha iyo wahinze bikera neza, ujya gusura inshuti yawe ukajya mu isoko ukagurisha ugasagura n'ibyo kurya ukarya kandi ugahaga.

Guhinga ibigori ni byiza ,kubera ko iyo wahinze ibigori, ujya mu murima byaba byeze ,ugacamo ibyo kurya wagera mu rugo ukabiteka ,maze mukabirya kandi biba biryoshye.

Veterineri ni mwiza, iyo ufite itungo ukamuhamagara araza agapima iryo tungo, iyo asanze rirwaye aritera urushinge maze iryo tungo rigakira.

Veterineri ni mwiza turamukunda, iyo wamuzanye akagupimira inka yawe agasanga irwaye, aguha umuti maze iyo nka igakira kandi akugeraga n'inama.

Ubworozi bw'ingurube buba bwiza kandi buranungura. Iyo woroye ingurube ni byiza ko ujya kuzana veterineri akazipima, yasanga ari cya nyina kirwaye, akagishyira ku ruhande kugira ngo kidakomeza konsa ibyo byana na byo bikarwara.

Ubworozi bw'inka ni ngombwa kugira ngo uzane veterineri, veterineri agapima izo nka, iyo asanzemo inka zirwaye azishira ku ruhande, izo nka akazitera urushinge maze zigakira.

Iyo woroye ingurube, uhamagara veterineri, akaza, akazipima, izirwaye akaziha n'umuti, zigakira, izo ngurube zigakomeza zikororoka, zikaguha umusaruro.

Mu bworozi bw'inkoko dukenera umuveterineri, kugira ngo apime inkoko ari inzima n'izirwaye tuzitandukanye, kugira ngo zitanduzanya kugirango ni nzima zitarwara.

Veterineri ni mwiza turamukunda, iyo ufite itungo uramuhamagara akaza agapima iryo tungo, iyo asanze rirwaye ariha umuti kandi aritera n'urushinge rigakira.

Ubworozi bw'inka ni bwiza, turabukunda, ariko ugomba gushaka veterineri kugira ngo agupimire izo nka niba ari nzima, inzima ukazishyira uruhande rumwe, n'izirwaye ukazishyira ku rundi ruhande, kugeraho ngo zitanduzanya.

Ni byiza kujya gushaka umuveterineri kugirango ngo agupimire nimba ari itungo cyangwa ari inyamaswa ufite mu urugo iwawe, ni ngombwa kugira ngo agupimire iyo nyamaswa cyangwa itungo kugirango ngo ubimenye neza.

Ubworozi bw'ingurube ni bwiza, buduhaha n'ifumbire tukayigurisha, bakaduha amafaranga, kandi ni ngombwa ko wazana na veterineri akazipima, yarangiza kuzipima, yasangamo izirwaye ukazishyira ku ruhande kugira ngo zitanduza izindi, kandi aziha n'umuti zigakira.

Ni byiza kuzana veterineri agapima amagi, yasanga harimo amagi arwaye mu kayajugunya, amazima mu kayagurisha ayandi mu kayarya.

Iyo woroye ingurube, ugomba kuzana veterineri agapima izo ngurube. Yasanga ingurube zirwaye, akazitandukanya n'izindi zitarwaye, kugira ngo izo zirwaye zitanduza izitarwaye.

Iyo woroye udukwavu, uhamagara veterineri, akaza akadupima, yasanga harimo akarwaye, akagashyira ku ruhande, maze akagatera urushinge, maze kagakira.

Nibyiza ko wazana veterineri agapima inyama mugiye guteka izirwaye mukazishyira ku ruhande mukanga kuziteka mugateka inzima maze mukazijya, izirwaye mukazijugunya.

Veterineri ni mwiza kandi turamukunda iyo ufite ingurube ukabona harimo izimeze nabi uhamagara veterineri akazipima, yabonamo izirwaye akazishyira ku ruhande kugira ngo zitanduza izindi maze akaziha umuti zigakira.

Veterineri ni mwiza turamukunda. Iyo umuntu yoroye aramuhamagara, maze agapima ihene. Maze akazipima, yarangiza yabonamo izirwaye akazishyira ku ruhande, kugirango zitanduza n'izindi, akaziha umuti zigakira.

Ni byiza kuzana veterineri kugira ngo apime inka yawe, iyo asanze irwaye ayiha umuti ariko ikaba iri yonyine, akayiha umuti, igeraho igakira.

Ubworozi bw'ingurube ni bwiza, buduha ifumbire, kandi ifumbire iyo ribaye ryinshi turarigurisha, bakaduha amafaranga, tukiteza imbere, kandi tukagira n'ubworozi bwiza.

Ni ngombwa gushaka veterineri kugira ngo apime inka zawe, iyo harimo izirwaye uzishyira ku ruhande ukazitandukanya n'izindi kugira ngo zitanduzanya zose zikarwara.

Mu bworozi bw'inkoko uzana veterineri akazipima, yasangamo izirwaye akazishyira ku ruhande, maze akazitera urushinge, maze izo nkoko zigakira.

Mu bworozi bw'inkoko ugomba kuzana veterineri, agapima inkoko zawe, iyo asanzemo izirwaye aziha umuti akazitera n'urushinge, izo nkoko zirakira.

Ibikeri nimwe mu nyamaswa biba mu mazi, iyo bwije biba biri kugonga kandi iyo bikurumye bigusigira ubumara, ukabura aho wivuriza.

Iinyoni nazo ni mu bintu biguruka bigatuma ba mukerarugendo baza mu gihugu cyacu bakaduha amadovizi maze tukiteza imbere mu gihugu cyacu.

Inyoni ni nziza zitanga umwuka mwiza mu kirere, kandi zizana na ba mukerarugendo, bakaduha amafaranga, maze tukiteza imbere mu gihugu cyacu, kandi tukabaho neza.

aAgaturu ni keza ariko kajyaga kurya inkoko kandi karyaga n'imbeba zo mu inzu. Iyo kaje mu nzu yawe karya imbeba zose zigahunga kubera ko ziba zatinye ako gaturu.

Umuserebanya ni imwe mu nyamaswa zikuruma ukagira ubumara, iyo ukurumye ushobora kugutera ubumara ukabura n'aho wivuriza kubera ubumara bwawo.

Ibisimba byo mu ishyamba biguruka turabikunda, kubera ko iyo biri kuguruka biba biri kuduha umwuka mwiza, kandi biraguruka nta n'ubwo biba biri kona imyaka y'umuntu.

Akanyoni ni keza gafite amabara meza, kandi inyoni zose nta bwo ari ko tuzibona, habaho inyoni zibera mu ishyamba ntituzibone kandi tuzibona twagiye mu ishyamba.

Ihene yo mu ishyamba ni imwe muhene ziryoha, iyo uyifashe ukayica ukayirya iraryoha, kandi ziba zifite inyama nziza zifite n'amavuta kubera ziba zarakuriye mu ishyamba.

Inyoni ni nziza turazikunda kandi ziraguruka, iyo bukeye zirasakuza, abantu bakamenya ko bukeye, bagahaguruka.

Inyoni ni nziza turazikunda, iyo zabonye ururabo rumeze neza, ziragenda zikarugurukiraho zikarya udusimba tuba turimo, maze urwo rurabo rugakura rumeze neza.

Umuserebanya ni umwe munyamaswa, iyo ukurumye ugusigira ubumara, kandi iyo umaze kugusigira ubumara ugahita ujya kwivuza ushobora kwivuza bugakira kubera ko wahise ujya kwivuza vuba.

Ingagi ni imwe mu nyamaswa ziba mu ishyamba, kandi izo ngagi ziduha amadovize, abakerarugendo baza kuzisura, na kagame ajya kuzisura, maze bakaduha amafaranga tukabona ibyo kurya

Inyoni ni imwe mu nyamaswa zituma ibimera bimera neza, kandi bikagira ubuzima bwiza, kubera ko inyoni zizana akayaga keza, kandi n'ibiti biba bifite umwuka mwiza.

Ingagi imwe mu nyayamaswa ziba mu ishyamba, kandi turazikunda zizana ba mukerarugendo, bakazifotora bakaduha amadovize. Haza na kagame baje kuzita amazina.

Imbogo ni nziza nimwe mu nyamaswa ziba mu ishyamba barya iyo bayishe barayibaga maze bakayirya kandi imbogo zigira inyama ziryoshe cyane.

Inkoko ni nziza iduha amagi, ikanatera andi magi, maze rero ikayarura, yarangiza kuyarura ikazana udushwi, maze utwo dushwi tugakura, tukaduha amafaranga.

Uduca ni inyayamaswa ziguruka, kandi zikunda inyama. Iyo bibonye umuntu afite inyama, birazimwaka bikajya kuzirya. Kandi bijya no kuroba amafi zi kakarya